Icyumba cy'ishuri dusangamo intebe abanyeshuri bicaraho, n'icyumba kirimo ikibaho, icyumba cyubakishije amatafari rwaruriba, nicyumba gifite isuku abanyeshuri bakoresha kugirango biyungure ubumenyi.

Iki ni icyapa giherereye ku kigo cy'amashuri cya gurupe sikolere ya Kampanga, aho iki cyapa kigaragaza inshingano n'indangagaciro ku mwarimu wese ukorera muri iki kigo cy'amashuri cya Kampanga. Aho bagomba kuzubahiriza kugira ngo bakomeze bazamure ireme ry'uburezi.

Ni muri laboratwari aho abanyeshuri cyangwa se abandi bakeneye ubumenyi bitoreza iby'amasomo bize, hari intebe amataburete bifashisha iyo bicaye bari mu gukurikirana. Hari pankarite imanitse ku rukuta yandikwaho amatariki ndetse n'ibyo barimo bakora. Ni ahantu hakeye kandi hameze neza.

Abanyeshuri bihangiye imirimo, bajya bafata ibyuma bakabibyazamo ibindi, kugira ngo biteze imbere kandi babashe kubona ikibatunga.

Umufundi urimo kubaza imbaho akoresha igikoresho bita iranda. Ni igikoresho banyuza ku rubaho bakarusena bakarugira neza abafundi bakunze kugikoresha, ni igikoresho kidakoresha umuriro w'amashanyarazi.

Mu banyeshuri barimo kwiga ibijyanye na tekiniki, umwarimu wabo arimo kubigisha uko izi imashini zikoreshwa, habanjemo mugenzi wabo, navaho harakurikiraho abandi, kugirango babashe kumenya uko izi mashini zikoreshwa.

Abanyeshuri barimo kwiga guteka aho bafite ibikoresho bitandukanye bafite movero cyangwa se amasafuriya bari bwifashishe bafite soya sosi, bambaye neza inifomo zabugenewe zikoreshwa mu gikoni kandi naho bagomba gutegurira ibyo kurya hameze neza hafite isuku.

Ni icyumba kirimo abanyeshuri ndetse na mudasobwa, abanyeshuri barimo kwiga mudasobwa, barimo kwiga ikoranabuhanga, icyumba giteguye, gifite isuku, kandi ni icyumba imashini zipanze neza, icyumba abanyeshuri bose barimo gukurikira ubumenyi bw'ikoranabuhanga.

Hano harimo hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu bubaji aho tubona iranda, urukero, metero, tukabona ipatasi, tukabona n'igifashi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye tukabona n'imbaho y'amazi aho byifashishwa mu bubaji ndetse no mu bwubatsi.

Abanyeshuri barimo gukurikirana amasomo bifashishije imashini za laputopu, ni abanyeshuri bari mu mujyo umwe barimo gukurikira bafite amatsiko yo kumenya ibyo barimo kwiga.

Icyumba cy'ishuri cyigishirizwamo ikoranabuhanga, ni icyumba kirimo intebe, icyumba kirimo imashini, kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano imwe. Mwarimu wabo arimo kubereka uko bagomba gukoresha imashini za raputopu.

Inzu ushobora gusangamo ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga bashobora gukoresha mu gusohora amajwi, ndetse n'amashusho. Muri iyi nzu turahasanga abantu batanu bashobora gukoresha ibi bikoresho, kugira ngo amajwi n'amashusho agere ku bantu neza kandi atunganye.

Aha hagaragara abatekinisiye bahuriye hamwe, barimo bahuza ubwenge bafite insinga mu ntoki n'ibikoresho, bafite inyundo n'ibindi bikoresho bitandukanye, barimo bariga ukuntu bagiye gukora ndetse no guteranya dinamo mu buryo bwa gihanga.

Inzu ikoreshwa mu kwiyungura ubumenyi mu bijyanye n'amashanyarazi ,aho abanyeshuri babiri barimo kwihugura ibyo bize mu bijyanye n'amashanyarazi ,barimo kwereka abarimu babigishije ko ibyo babigishije, babifashe mu mutwe.

Inzu batunganyirizamo umusatsi w'abagore ndetse n'abagabo， mu gutunganya umusatsi w'abagore n'abagabo， bakoresha ibikoresho bitandukanye， barangiza gukoresha ibikoresho bitandukanye， harimo n'imashini， bagashyiramo n'amavuta，abantu bagasohoka bameze neza， bafite isuku mu mutwe.

Abaganga batatu barimo kwimenyereza umwuga wo kuvura abantu kuko umuganga ubikurikirana akabikora neza abarwayi baramukunda. Ni abaganga barimo gukorera mu cyumba kirimo amakaro, kirimo ibikoresho byabugenewe ku buryo bafata amaraso. Ni ahantu hameze neza.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo gushushanya ibintu bitandukanye, umwana umwe yashushanyije inzu ya etaje ,undi mwana yashushanyije umusirikare ufite imbunda ,ni abana bakoze igikorwa kigaragara neza.

Abantu batandukanye barimo gukurikirana ibikorwa byo kubaka, kuko imbere y'aho bahagaze imbere y'inzu batangiye kubaka imbere y'aho bahagaze hari ibiti bifashisha mu gutega, iyo barimo kubaka hari ibikoresho bitandukanye bakoresha mu gutunda umucanga barimo gukurikirana uko zagenda.

Ni ahantu bakorera ibikorwa byo gusudira, basudira, imbabura ,bakora ingorofani bakora, inzugi ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye barabikora kugira ngo bateze imbere aho batuye ,ndetse nabo ubwabo biteze imbere n'imiryango yabo.